Inzu mberabyombi ifite inkuta zifite ibara ry'umweru, ikaba irimo abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zifite amabara atandukanye, hari abicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Bakaba bicaye imbere yabo hari ameza ariho ibyo kunywa, harimo ibyo kunywa bikozwe mu mbuto ndetse n'amazi.

Umugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo y'ubwirinzi akaba yambaye n'agapfukamunwa gafite ibara ry'umweru, akaba yambaye n'igisarubeti gifite ibara ry'umukara harimo n'umweru, yambaye na ga zifite ibara ry'umutuku n'umukara, imbere yiwe hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mashanyarazi.

Abagabo batandukanye bahagaze mu kayira k'igitaka gakikijwe n'insina zifite ibitoki ndetse n'izindi zidafite ibitoki, imbere yabo hakaba hari utumeza ndetse n'intebe zo kwicaraho, muri aba bagabo harimo ushinzwe umutekano w'u Rwanda w'umupolisi ndetse hakaba harimo n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye ifite amabara agiye atandukanye arimo: umweru, ubururu n'umukara ndetse n'umutuku.